Ni inzu ikaba iri mu mabara asa n'umuhondo ikaba yifashishwa n'abacuruzi mu gucuruza ibikoresho by'itumanaho ibi bikaba bifasha abaturage mu gutumanaho binyuze mu mu guhamagarana ndetse n'ubundi buryo bugiye butandukanye.

Ni umugabo, akaba ahagaze munsi y'umutaka ucururizwamo itumanaho, iruhande rwawo hakaba hari amazu y'ubucuruzi, ibi bikaba bifasha abaturage mu kwiteza imbere, mu buzima bwabo buri munsi.

Ni abaturage bahagaze imbere y'inzu icururizwamo ibicuruzwa bijyanye n'amakarita yifashishwa n'abaturage mu gutega imodoka mu buryo bwa rusange, iyi nzu ikaba ikikijwe n'andi mazu y'abaturage, ibi bikaba bifasha abagenzi mu kubona uburyo bwo kugenda bworoshye.

Ni inzu, ikaba iteye amarangi ari mu ibara ry'umutuku amagambo yandikishije ibara ry'umweru, iyi nzu ikaba yifashishwa mu bucuruzi bw'itumanaho, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona, aho bagurira itumanaho muburyo butabagoye.

Ni inyubako zikaba ziri mu mabara asa umutuku ndetse n'ubururu, izi nyubako zikaba zifashishwa mu bu bucuruzi bwa buri munsi, burimo ubw'itumanaho, ndetse n'ubucuruzi bw'ibindi bicuruzwa bitandukanye. Ibi bikaba bifasha abaturage, mu kubona aho bagurira ndetse banagurishiriza ibicuruzwa byabo.

Ni abacuruza bakaba bambaye imyenda yifashishwa mu kwamamaza iri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, bakaba barimo gucuruza ibikoresho by'itumanaho, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ibikoresho bifashisha mu guhererekanya amakuru.

Ni ihuriro ry'imihanda; iruhande rwayo hakaba hari amazu yifashishwa mu bucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, hakaba harimo iby'itumanaho ndetse n'ibindi. Iruhande rwayo hakaba hari imbuga ikozwe mu mabuye. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona aho bakorera hameze neza.

Ni abagabo n'abagore, bakaba bahagaze imbere y'inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'itumanaho, iyo nzu hakaba harimo umugabo urimo kubagurisha itumanaho, ibi bikaba bifasha abacuruzi mu kubona uburyo bwo kuba bahererekanya amakuru.

Ni inyubako, ikaba iriho ibyapa byamamaza, iyi nyubako ikaba yifashishwa n'abaturage mu kubitsa no kwizigamira amafaranga, ibi bikaba bibafasha mu kwiteza imbere binyuze mu kwiguriza ndetse no kwizigamira.

Ni umugabo. Akaba yicaye imbere y'igisanduku kifashishwa mu kubika ibikoresho. Akaba afashe amakarito ari mu bwoko busa n'umukara. Ibi bikaba bimufasha mu bucuruzi bwe bwa burimunsi, burimo no kwiteza imbere.

Ni inzu iriho ibyapa biri mu mabara y'uburu, umuhondo n'umutuku, imbere yaho hakaba hari umugabo uhagaze, izi nzu zikaba zikorerwamo ubucuruzi bw'ibikoresho by'itumanaho.

Ni umugabo akaba ahagaze mu nzu yifashishwa mu gucuruza itumanaho, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona aho bagurira ibikoresho by'itumanaho bibafasha mu guhererekanya amakuru.

Ni abaturage bakaba barimo kwanika umusaruro ukomoka ku myumbati, ibi bikaba bibafasha mu kubona amafaranga binyuze mu gukorera hamwe mu makoperative.

Ni umugabo akaba afashe indangururamajwi, akaba arimo kuganirizwa ku buryo bwo kwiteza imbere binyuze mu gukorera hamwe mu makoperative, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umusaruro uhagije mu gihe cya vuba.

Gukorera hamwe mu matsinda ndetse no kwizigamira mu bigo by'imari biciriritse, bifasha abaturage mu kwiteza imbere binyuze mu kwizigamira ndetse no kuguza igihe bafite imishinga ibafasha mu kwiteza imbere.

Ubuhinzi bukorewe mu matsinda bufasha abaturage mu kubona umusaruro uhagije, ubafasha mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu kwiteza imbere, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona amafaranga binyuze mu kwizigamira ndetse no gukorera hamwe mu matsinda.

Kugana ibigo by'imari biciriritse biri mu murenge sacco ni uburyo bwiza bwo kwiteza imbere binyuze mu kwizigamira ndetse no kwaka inguzanyo. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abaturage, bicaye, hakaba harimo abahagaze, iruhande rwabo hakaba hari ibi biraro, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwiteza imbere bakoreye hamwe, mu makoperative.

Ni inyubako, ikaba yifashishwa n'abaturage mu kwizigamira ndetse no kuguza amafaranga, ibi bikaba bibafasha mu kwirinda kuba basesagura ndetse no kwiteza imbere binyuze mu kwizigamira ndetse no kugurizanya.

Ubucuruzi bw'ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo ibinyobwa by'ubwoko bwose bifasha abacuruzi mu kubona amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi bikaba bibafasha mu kwiteza imbere binyuze mu gucuruza.

Ni icyumba kikaba kirimo ameza akikijwe n'intebe ndende ,zikaba byitabwaho n'abantu bagiye bagana iyi nyubako mu gushaka ibyo kunywa. Ibi bikaba bibafasha abacuruzi mu kubona amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri muntu.

Ni icyumba, cyifashishwa n'abacuruzi mu gucuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ibibi bikaba bibafasha mu kubona amafaranga, abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse n'abaturage kubona ibicuruzwa muburyo bwororoshye.

Ni umugore akaba ahagaze mu cyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye birimo imiti, amavuta, imisati n'ibindi, ibi bikaba bimufasha mu kubona abakiriya ndetse no kubona aho acururiza hameze neza.

Ni icyumba gikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, hakaba hakorerwamo ubucuruzi buherekeranye n'ibyo kurya, ibi bikaba bifasha abacuruzi mu kubona amafaranga abafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri.

Gucuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo amavuta y'umusatsi ndetse n'ibindi ni uburyo bwiza bwo kubona amafaranga afasha mu kubaho mu buzima bwa buri munsi, ibi bikaba bifasha abacuruzi mu kubona ubushobozi bubafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyumba cyifashishwa n'abacuruzi mu gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, birimo: amagi, ifu, amavuta ndetse n'imboga. Ibi bikaba bifasha abacuruzi mu gucuruza mu buryo bumeze neza.

Iyi ni inyubako ikaba ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye. Imbere yaho hakaba hari imbuga ikozwe mu mabuye, ikaba irimo igikoresho kifasha mu kwibuka. Ibi bikaba bifsha abacuruzi mu kubona amafaranga bafasha mu kwiteza imbere.

Ni icyumba cyifashishwa mu bucuruzi bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo telefone ndetse n'ibindi. Hakaba hari amagambo yanditse mu ibara risa n'umweru .Aya magambo akaba arimo kwerekana ibikorwa bibera muri iyo nzu. Ibi bikaba bifasha umucuruzi mu kwamamaza ndetse no kubona abakiriya.

Ni abihaye Imana, barimo: abapadiri, abasenyeri ndetse n'ababikira, bakaba bahagaze imbere y'icyapa kirimo kwamamaza, ibi bikaba bifasha mu kuba basenga ndetse no kwiyegereza Imana.

Ni abaturage bahagaze imbere yinzu y'urusengero, iruhande rwabo hakaba hari ibiti bikuze, hakaba harimo abakozi b'lmana b'abapasiteri , abapadiri, ndetse n'abandi, bakaba bari mu gikorwa cyo gusenga biyegereza lmana.

Ni abaturage bakaba bari mu nzu y'urusengero, hakaba harimo abapfukamye ndetse bamanitse amaboko. Ibi bikaba bibafasha mu kwiyegeranya n'Imana binyuze mu buryo bwo gusenga ndetse no kuramya.

Ni abaturage bari mu cyumba kigari hakaba harimo abapfukamye abandi bamanitse amaboko, bakaba bari mu gikorwa cyo gusenga, ibi bikaba bibafasha mu kwiyegeranya n'imana binyuze mu gusenga.

Ni umugabo n'umugore bapfukamye, akaba bafatanye. Iruhande rwabo hakaba hahagaze abandi baturage babakikije, bakaba bari mu gikorwa cyo gusenga ,ibi bikaba bibafasha mu kwiyegeranya n'Imana.

Aba ni abaturage bicaye mu cyumba kigari, hakaba harimo abafashe Bibiriya, abandi bafashe amakaramu, bakaba bari mu gikorwa cyo gusenga, ibi bikaba bibafasha mu kwiyegereza Imana.

Ni abaturage benshi bahagaze imbere y'inyubako y'urusengero, iruhande rwaho hakaba hari ibiti by'inganzamarumbo, iyi nyubako ikaba ifasha abaturage mu gusenga ndetse no kwiyegereza imana.

Ni abaturage bicaye imbere yabo hakaba hari umugabo ufashe indangururamajwi, inyuma yabo inyuma ye hakaba hari abandi bicaye bakaba bari mu gikorwa cyo gusenga, ibi bikaba bibafasha mu kwegerana n'imana.

Ni abaturage, bakaba bateraniye mu cyumba kigari, imbere yaho hakaba hari abari kuririmba bakoresheje indangururamajwi, bakaba bari mu gikorwa cyo gusenga, biyegereza Imana.

Ni abaturage bicaye mu mucasha, bakaba harimo abafashe abana, bakaba bateranye bari mu gikorwa cyo gusenga. Ibi bikaba bibafasha mu kwiyegereza imana binyuze mu masengesho bakora umunsi ku munsi.

Ni icyumba kirimo igitanda gifasashe neza hakaba harimo kwaka amatara, ibi byumba bikaba byifashishwa n'abantu mu kubiryamaho, ibi bikaba bitanga amafaranga kuri ba nyir'amazu ndetse bifasha abantu kuba baruhuka mu buryo bumeze neza.

Iyi ni inyubako nini imbere yayo hakaba haparitse imodoka. Iyi nyubako ikaba yifashishwa n'abantu baje kuyiruhukiramo ndetse no kuyifatiramo amafunguro umunsi ku munsi. Ibi bikaba bitanga amafaranga kuri banyir'inyubako ndetse no ku gihugu.

Ni inyubako ndende igeretse ikaba ifite imbuga ihagazemo imodoka, iruhande rwayo hakaba hari amashamba. Izi nyubako zikaba zifashishwa n'abantu mu kuziryamamo, ndetse no kuba bazifatiramo amafunguro umunsi ku munsi.

Ni icyumba kikaba kirimo igitanda gishashe neza mu mashuka asa n'umweru iruhande rwayo hakaba hari ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye, ibi byumba bikaba byifashishwa mu kwakira abakiliriya baje bagana inzu zicumbikira abaje baziganda.

Ni icyumba kikaba kirimo ibitanda n'intebe bikoze mu buryo buteye imbere, bikaba byifashishwa n'abaza bagana iyi nyubako mu buryo bwo kuruhuka ndetse no kubahafatira amafunguro, ibi bikaba bifasha ba nyiramazu mu kubona amafaranga abafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni inyubako ndende igeretse, ikaba iteye amarangi asa n'umuhondo iyi nyubako ikaba yifashishwa n'abaturage mu kuruhuka ndetse no kuhafatira amafunguro. Ibi bikabifasha mu kubona amafaranga kuri ba nyir'amazu ndetse n'igihugu binyuze mu gutanga umusoro.

Ni ibicuruzwa bitandukanye, birimo imyenda ibiringiti ndetse n'ibindi, bikaba birambuye mu isoko, ibi bikaba bifasha umuturage mu kubona ibyo aryamamo ndetse n'ibyo yambara kandi bigatanga amafaranga ku bacuruza.

Ni isoko, rikaba ririmo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye, birimo imboga, imiteja. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ibyo kurya biba bifite intungamubiri zihagije zibafasha mu kwirinda indwara zitandukanye, zikomoka ku mirire mibi.

Ni isoko rikaba ririmo gucururizwamo ibikoresho bigiye bitandukanye birimo inkweto, amafu, imyenda ndetse n'ibindi. Hakaba harimo abaturage, ibi bikaba bibafasha mu kubona amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni amagare aparitse iruhande rw'umuhanda munini wa kaburimbo akaba yikoreye ibihingwa birimo ibitoki bikaba birimo kwerekezwa ku isoko, ibi bikaba bifasha umuturage mu kubona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bimutunga umunsi ku munsi.

Gucuruza imyenda igezweho ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, ni uburyo bwiza bwo kubona umusaruro uhagije ukomoka mu bucuruzi, ibi bikaba bifasha abacuruzi mu kubona inyungu ibafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni isoko, rikaba ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye, birimo imyuko, imifuka, amajanga ndetse n'ibindi bikoresho, byifashishwa mu gukora amasuku, ibi bikaba bifasha abaguzi n'abagurisha kubona aho bahira, hameze neza.

Ni abaturage, hakaba harimo uwikoreye tungurusumu, bakaba barimo gucuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ibi bikaba bibafasha mu kubona amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umugore akaba yikoreye inkoko iriho imbuto z'ubwoko butandukanye, akaba arimo kuzicuruza imbere ye hakaba hari umugabo wambaye ibikoresho byifashishwa n'abagenzi, mu kwirinda kuba yakomereka igihe akoze impanuka, bakaba bari mu bucuruzi bugiye butandukanye.

Ni isoko rikaba ririmo abaguzi n'abagurisha, hakaba harimo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye birimo ibikombe, imyenda ndetse n'ibindi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona aho bagurira ndetse bifasha abacuruzi mu kubona amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni isoko. Rikaba ririmo gucururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye; birimo inkweto, imyenda ndetse n'ibindi. Ibi bikaba bifasha abacuruzi mu kubona aho bakorera ndetse hameze neza, bibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abaturage ,bakaba bahagaze mu isoko ricururizwamo inkweto , imyenda ,ndetse n'ibindi . Bakaba barimo guhaha inkweto, ibi bikaba bifasha mu kubona ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye , ndetse bifasha abacuruzi mu kubona amafaranga abafasha kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni isoko, rikaba ririmo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu budozi, mu bwubatsi ndetse n'ibindi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona aho bahahira ndetse n'aho bacururiza mu buryo buboroheye.

Ni isoko rikaba ririmo abaturage benshi hakaba harimo gucururizwamo ibintu bigiye bitandukanye birimo imboga, cile ndetse n'inyandiko ibi bikaba bifasha abacuruzi mu kubona amafaranga ngo baka aza mu kubona ubuzima bwabantu.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo ukaba ukikijwe n'ibiti by'inganzamarumbo, iruhande rwawo hakaba hari ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi, uyu muhanda ukaba uri gukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye birimo moto ndetse n'ibindi, ibi bikaba bifasha umuturage mu kuba yava ahantu hamwe ajya ahandi mu buryo bworoshye.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo iruhande rwawo hakaba hari amazu yifashishwa mu bucuruzi hakaba harimo kugendamo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye birimo moto, ibi bikaba bifasha abaturage mu buzima busanzwe bwo kuba bakwiteza imbere biborohereza mu buryo bw'ingendo.

Ni abaturage hakaba harimo abicaye kuri moto bakaba baparitse imbere y'inyubako nini, izi moto zikaba zibafasha mu gukora ingendo zibakura ahantu hamwe zibajyana ahandi mu buryo bworoshye.

Ibinyabiziga by'ubwoko bugiye butandukanye birimo amamoto n'amamodoka, bifasha abaturage mu gukora ingendo ziva ahantu hamwe zijya ahandi mu buryo buboroheye. Ibi bikaba bibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo, ukaba ukikijwe n'amazu yifashishwa mu bucuruzi, hakaba harimo kunyurwamo ibinyabiziga bitandukanye birimo za moto, ibi bikaba bifasha abantu mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo bworoshye.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo, iruhande rwaho hakaba hari amazu yifashishwa mu bucuruzi ndetse n'ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi, uyu muhanda ukaba uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye birimo moto, ibi bikaba bifasha abaturage mu gutwara umusaruro ku masoko mu buryo bworoshye.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo iruhande rwho hakaba hari ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi, uyu muhanda ukaba uri kunyurwamo n'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye birimo moto ndetse n'ibindi, ibi bikaba bifasha mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo buboroheye.

Ni umuhanda munini wa kaburimbo, ukaba urimo kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, birimo amagare. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo bworoshye.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo ukaba ukikijwe n'amazu y'ubucuruzi, uyu muhanda ukaba urimo kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye birimo moto, uyu muhanda ukaba ufasha abaturage mu buhahirane bwo kuvana ibicuruzwa hamwe babijyana ahandi mu buryo bworoshye.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo ukaba ukikijwe n'amashyamba, iruhande rwawo hakaba hari ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi, uwo muhanda ukaba urimo kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye birimo moto n'ibindi, ibi bikaba bifasha abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo bworoshye.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo, ukaba urimo unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, birimo moto n'amagare. Iruhande rwayo hakaba hari ibyapa biyobora abifashisha umuhanda. Ibi bikaba bifasha abakoresha umuhanda kuba bava hamwe bajya ahandi, mu buryo bworoshye.